Umugabo uriho igisima ku kaguru k'ibumoso, aho hejuru ye handitse amagambo avuga ngo "Impanuka ntiteguza, gura turi kumwe, ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima". Birekana uburyo ushobora kugura ubwishingizi, nawe wagira ikibazo bukakuvuza.

Umudadamu wambaye ingofero y'umuhondo, irinda abantu kugirango badakomereka mugihe bagiye ahantu, hari gukorerwa ibikorwa by'ubwubatsi, aho yambaye n'ijiri ifite ibara ry'umuhondo, aho mbere ye handitse gira abakozi b'indahemuka kandi bakunda umurimo.

Iyi shusho y'umweru yandikishijeho amagambo mu ibara ry'ubururu, aho yanditse ''turi kumwe kugura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango''; ndetse yamamaza ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi cya radiyanti.

Icyapa kinini aho gihagaze ku cyuma gisize amabara asa n'ivu, aho iki cyapa kiri mu mabara asa n'icyatsi kibisi n'umweru ndetse n'ubururu, aho amagambo yandikishije umweru ndetse n'ubururu aho hariho ifoto y'umugore ndetse n'umugabo.

Urupapuro rw'umweru, aho handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara avuga ngo "ubwishingizi bwo kwibwa". Aho amenyekanisha uburyo ushobora gufata ubwishingizi mu kigo gitanga ubwishingizi cyitwa Radiant.

Umuganga ndetse n'umwana aho hari umurwayi urwaye ari ku gitanda cy'abarwayi, arimo serumu ndetse afite na bande iri ku mutwe, aho hari kwamamazwa ubwishingizi bwa Radiyanti.

Icyapa kinini gihagaze ku byuma bibiri, aho kiriho amafoto agaragaza inyubako ikoze nk'umunara, aho cyamamaza uburyo ushobora kubona ubwishingizi bw'imyaka myinshi.

Ubuso bw'umweru bwandikishije amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, aho hariho ibirango by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi Radiyante, hakaba hariho n'inka ndetse n'amatungo yandika nk'ingurube ndetse n'inkoko.

Abagabo babiri bahagararanye, aho bambaye amakoti atandukanye, inyuma y'aho hari imodoka z'ibara ry'umweru, aho hasi bari kwamamaza ubwishingizi bw'izo modoka ndetse n'ibindi bintu.

Umusore ndetse n'umukobwa aho bose bambaye amashati, aho umusore yambaye inkweto z'umukara naho umukobwa yambaye inkweto z'umweru, aho bari kwamamaza ubwishingizi bwa purayimu inshuwarensi ushobora kwirinda ku bintu bitandukanye.

Ishusho iri mu mabara y'ubururu, aho yandikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo werurutse, aho iyo shusho ishishikariza abantu gufata ubwishingizi bw'ubuzima bwabo kugira ngo batazagira ibibazo bitandukanye bakuze.

Inzu isize amarangi y'umweru ndetse irimo n'indererwamo aho icururizwamo imyenda ikozwe mu bitenge ndetse n'indi mitako nayo ya kinyarwanda aho ushobora kuza ukayigurira nawe ukaberwa.

Abakobwa babiri bahagararanye bafite ibara ry'uruhu rwera, aho umwe yambaye amarinete undi atambaye amarinete, aho uwambaye amarinete ari guhererekanya akamashini gakoreshwa bishyura naho undi afite telefoni mu kiganza cye.

Imodoka iri kugenda mumuhanda w'umukara ifite irangi ry'umukara aho imbere yiyo modoka hari nyubako ndende igeretse isize amarangi y'umweru ndetse ifite n'ibirahure bitabonerana aho iyo nzu ikoreramo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi.

Abagabo bahagaze aho bambaye udupfumunwa, umwe akaba yambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare ndetse akaba afite telefoni mu kabokoko k'iburyo, undi akaba yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hakaba hari imodoka, bakaba bacigatiye icyapa cyanditseho Yundayi.

Abagabo babiri bahagarara aho umwe yambaye amarinete ndetse n'ishati y'amaboko maremare, naho undi uri hirya yambaye ikote ijya gusana kaki, bafite igifunguzo cyanditseho akagera inyuma y'aho hari imodoka ndetse n'inzu igeretse.

Imodoka y'umweru aho iri kugendera mu muhanda w'umukara, inyuma y'imodoka hirya y'umuhanda hari inzu isize amabara y'umuhondo ndetse yubakishijwe igipangu kiriho ibyuma, hirya ku muhanda hari n'ibyapa byamamaza.

Imodoka y'umukara aho iyo modoka ifite ibara ry'umukara ndetse ifite imisego ijya gusa n'ivu aho imwe mu misego y'imbere yambaye ishashi, hirya yaho hari ibiti ndetse n'igipangu kizengurutse inzu.

Imodoka zitandukanye bisa nk'aho ari nshyashya ziparitse, harimo ibara ry'umukara n'andi mabara y'umweru, aho ushobora kuzigura ukazikoresha mu ngendo zitandukanye, nk'ubukerarugendo n'ibindi byinshi.

Imodoka eshatu, aho ziparitse inyuma y'abagabo batanu bari guhererekanya urufunguzo, byerekana yuko bamaze kugura imodoka z'uruganda rwa Mahina, aho izo modoka ushobora kuzikoresha ukora ingendo zitandukanye.

Imodoka nziza ,zifite ibara ry'umukara, aho ziparitse mu nzu isize amabara y'umweru, aho izo modoka ziri mu bwoko bwa BMW, uruganda rusanzwe ruzwi cyane, mu gukora amamodoka meza.

Imodoka isize amabara y'umweru ku kizuru n'inyuma ahasize ibara risa n'ivu, imbere yaho hahagaze abagabo babiri umwe wambaye amarineti ndetse n'ishati y'umweru n'undi wambaye ishati y'ubururu aho bari guhererekanya igifunguzo.

Abagabo babiri bahagararanye, aho umwe yambaye ishati y'ubururu ndetse afite urufunguzo, naho undi yambaye ikote rya kaki, afite agakapu kajya gusa ibara ry'umutu, aho bari guhererekanya ikiganza, inyuma yaho hakaba hari imodoka.

Umugabo w'uruhu rwera, aho yambaye ishati y'amabako maremare ndetse n'isaha, imbere ye hari umugabo w'uruhu rwirabura wambaye isarubeti , iriho ijambo Toyota aho afite insinga mu ntoki bigaragara ko ari umukanishi.

Irimo amakaro y'umweru ateretsemo imodoka nshyashya, iri kugurishwa aho ushobora kuza ukayireba bikoroheye, kuko ahantu iri harabonerana, kandi ushobora kuyigura nta kibazo.

Imodoka ifite amabara y'umweru iri mu bwoko bwa kavero, aho iyo modoka iparitse hari icyapa cyanditseho ngo Kigali kari maketi, aho iyo modoka ishobora kuyigurira kuko iri ku isoko.

Imodoka ifite ibara ry'umweru aho inyuma y'iyo modoka hari inzu ndende igeretse inshuro nyinshi aho iyo modoka iri ku isoko iri mu bwoko bwa kiya aho umuntu ashobora kuyigura kuri miliyoni cumi n'ebyiri.

Imodoka ifite ibara rijya gusa n'ivu, aho iyo modoka ikodeshwa cyangwa ikagurishwa, bitewe n'icyo uyishakira. Ukaba ushobora kuyibona aho bita kigali cars market. Ukaba ushobora kuyikoresha nko mu bukwe ndetse n'ahandi.

Icyapa kiri ku muhanda, aho gishinze ku byuma bibiri. Gisize amabara ajya gusa n’ivu gifite ubuso bw'ubururu, cyandikishijeho ijambo Hundayi. Ndetse hariho n'ikirango cy'urwo ruganda, hirya yaho hari ipoto y'amashanyarazi.

Inote iteretse ku meza aho iyo note ifite ibara ry'umuhondo ndetse iriho ibiti ndetse n'ibiyaga, ibyo biti bifite ibara ry'icyatsi kibisi, aho ryandikishijeho amagambo ndetse n'imibare, iyo note yakoreshwaga bagura ibintu bitandukanye mu gihe cyatambutse.

Umuntu aho ari kubara amafaranga akoresheje akamashini, abara amafaranga mu buryo bwihuse ndetse bw'ikoranabuhanga aho bagacomeka umuriro w'amashanyarazi ndetse bagashyiraho amafaranga bakayabara bitabagoye.

Abkobozi b'ishami rya banki yitwa Giti banke aho bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari za mudasobwa nk'uko bigaragazwa, hirya n'icyapa cyanditseho Giti banke abo imbere yaho hari umugore wambaye impeta ndetse ufite ikaramu y'igiti yaje gusaba serivise.

Igiceri cya mirongo itanu gifite amabara y'umuhondo kiriho ibirangantego byakoreshwaga muri repubulika ya kera y'u Rwanda aho ayo mafaranga yakoreshwaga ushobora kugura cyangwa se ukagurisha ibintu bitandukanye.

Umugabo wambaye ikositimu ndetse n'isaha ijya gusa nka zahabu hirya ye hari n'undi mugabo wambaye ishati jya gusa n'ubururu bwerurutse, aho uwo mugabo wambaye ikositimu yicaye imbere ya mudasobwa ari gutanga serivisi.

Inzu isize irangi ry'umweru, aho hari abakozi bayo bari gutanga serivisi z'imari, aho bicaye mu tuzu imbere yaho hari ibirahuri bituma babasha kuvugana n'abakiriya baje gushaka serivisi zitandukanye z'imari nko kubitsa, kubikuza ndetse n'ibindi.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho amakuru y'akazi ya leta, birerekana uburyo wakinjira ukoresheje imayili yawe ndetse na nimero ya telefone yawe ndetse ukaza no gukoresha ijambo banga.

Inzu isize amarangi y'umweru, harimo ndetse n'amakaro y'umweru, aho harimo umukobwa wambaye ikabutura, ndetse n'umupira w'umweru ufite telefoni, inyuma ye hari icyansi cya kizungu gikozwe mu cyuma kirimo amata.

Indobo ebyiri z'umweru, aho imwe irimo keke, indi iriho amandazi, iretse ku meza iri hanze y'umuryango. Ifite ibara ry'ubururu, aho hejuru y'indobo imwe y'umweru hari akantu bifashisha batobora amandazi cyangwa keke kugira ngo ntibanduze andi.

Umugabo wicaye ku ntebe ya purastike aho yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse mu kaboko k'ibumoso afite akabido gato ka litiro eshatu k'umweru, ariho ari kuvoma amata ku cyuma kiyabika inyuma ye hari umuguzi waje kuyagura.

Inzu isize ibara ry'ubururu, aho ku muryango hari akameza kahateretse gakozwe muri pulasitike, gateretseho imineke, amagi ari mu ndobo ndetse n'amandazi na capati na byo biri mu ndobo, iruhande rwe hakaba ari urusenda n'umunyu.

Amasambusa afite ibara ry'umuhondo aho ayo masambusa akorwa mu bintu bitandukanye, hari akorwa mu ibirayi ndetse n'ifarini uyateka mu mavutari n'andi akorwa mu nyama ziseye ndetse n'ifarini bakayateka mu mavuta.

Inzu yubakishije amatafari ahiye aho muri iyo nzu harimo icyuma kibika amata kugira ngo atangirika kikabo kiriho ibyapa biriho inka ndetse byanditseho amagambo agira ati Nyanza mirike indasitiri.

Ishusho iri mu mabara y'umweru aho yandikishijeho amagambo y'umukara ndetse n'ubururu aho iyo shusho yerekana amafaranga ari kuri konte y'umuntu, ikigo cyitwa peyipari parance aho ushobora kugikoresha wohereza cyangwa wakira amafaranga.

Ubuso bw'umweru, ibirango bya Eyateli, aho byandikishije amabara y'umweru ndetse hariho n'imibare yerekana uburyo ushobora gukoresha kuri Eyateli, aho byose byanditse mu rurimi rw'Igifaransa.

Inzu irimo abakobwa batatu aho bari kuganira, umwe afite ikayi n'ikaramu ndetse ari kwandika naho undi wo hagati ari kubwira areba uwo ku ruhande n'iburyo bwe, inyuma yabo hakaba hari idirishya rifunguye.

Uru rw'umweruriho ikiranganigo cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro aho ahu ahanwandikisha amagambo y'umukara ru akaba ari urupapuro rumenyekanisha umusoro n'amahoro.

Urupapuro rw'umweru, aho ruriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'urwego rushinzwe imisoro n'amahoro ruzwi nka Rwanda reveniyu otoriti, rwandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo mu ibara ry'umukara aho hariho ikirangantego cya repubulika y u Rwanda, aho urwo rupapuro amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda, aho hariho amatariki ndetse n'umwaka.

Urupapuro rw'umweru ruriho ikiranganigo cya repubulika y' u rwanda, ndetse rukaba ruriho n'ikiran cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda reveni otoriti rukaba rwandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara aho rumenyekanisha umusoro.

Urupapuro rufite ubuso bw'umwiru aho ruriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikiranganiro cya rwanda revenpo. Cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, cyerekana umusoro ushobora kwishyurwa n'umuntu.

Urupapuro rufite ubuso bw'umweru ruriho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cya Rwanda reveni otoriti, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Aho kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umukara amenyekanisha umusoro uzatangwa.

Urupapuro rw'umweru ruriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, aho cyandikisha amagambo ari mu ibara ry'umukara, aho kimenyekanisha imisoro.

Umugabo, aho ari kureba hirya afite amafaranga acigatiye, mu ntoki n'ibiganza bibiri. Aho ayo mafaranga afite amabara atandukanye, harimo inote ifite ibara, ry'umutuku ndetse n'indi note ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse wambaye n'isaha mu kaboko k'ibumoso aho afite amafaranga mu ntoki y'amadolari aho ari kuyabara, ayo mafaranga akaba azwiho gukorwa n'Amerika ndetse iruhande rwe hakaba hari indi mishandiko y'amafaranga.

Inote ifite ibara ry'umuhondo ndetse irimo inzu n'ibiti, aho iyo noti ibara amafaranga mirongo itanu, ikaba isohorwa na banki y'igihugu cya Congo, aho bashobora kuyakoresha mu gihugu cyabo bihahira ibintu bitandukanye.

Icyapa kiriho umugore, aho icyo cyapa kiri kwamamaza uburyo ushobora kuvunjisha amafaranga cyangwa se ukayohereza cyangwa ukagura itike y'ahantu hatandukanye bitewe n'aho ushaka kujya.

Ibyapa binini biri ku muhanda aho ibyo byapa byamamaza aho ushobora kujya kuvungisha, inyuma y'ibyo byapaka hakaba hari inzu zigeretse zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho abantu bashobora kujya guhahayo.

Inzu isize amabara y'umweru ndetse ikaba ifite imiryango isize amabara y'umweru, aho hejuru hari icyapa kirimo ubuso bw'mweru bwandikishijeho amagambo y'ubururu, ndetse n'umukara, aho handitseho ikaze muri Beureau de change, aho bakora umurimo w'ivunjisha.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'amarinete aho yasetse ahagaze ku muryango w'inzu ifite amabara y'umutuku ndetse iriho ibirango bitandukanye n'ibicuruzwa bicururizwa ahongaho.

Inzu igeretse aho iriho icyapa gifite ubuso bw'ubururu ndetse kikaba cyandikishijeho amagambo ari m'ibara ry'umweru hakaba hakorerwamo n'ubundi bucuruzi nk'ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Isize amabara y'umweru, aho bacuruza ibicuruzwa bitandukanye ndetse hakaba harimo abantu bafite ibara ry'uruhu rwera, ndetse n'abandi bafite ibara ry'uruhu rwirabura, aho bamwe baje kugura abandi bari gucuruza.

Intebe nziza z'amadiva, aho zifite amabara atandukanye, ndetse n'imisego itandukanye, ziteretse hanze, imbere yaho hari utumeza ndetse n'ibitebe bijyana, aho hirya yaho hari ikigega kijyamo amazi, ndetse n'ibindi bipangu.

Inzu iteye amarangi y'umweru aho hasi harimo amakaro afite ibara ry'umweru ndetse n'intebe zirimo amadive ndetse na akameza, aho ushobora kwakira abantu batandukanye yaba ari abashyitsi, abanyamuryango ndetse n'abandi.

Ameza ateretse ndetse ariho intebe zisaga umunani, zifite imisego y'umukara, imbere yaho hakaba hari inzu isize ibara ry'umweru, aho izo ntebe ndetse n'ayo meza akoreshwa bafata amafunguro.

Inebe enye ziri kumwe n'akameza, imbere yaho hari inzu isa n'iyuzuye, isize amabara ajya gusa n'icyatsi kibisi ndetse inzugi ziteye ibara rijya gusa n'ivu.

Isize ibara ry'umuhondo, aho irimo ibikoresho bitandukanye bikozwe mu mbahoho nk'utubati imeza, intebe, inkoni ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, aho byifashishwa bataka inzu.

Ubwogero aho bukoreshwa n'abantu batandukanye, baje baje gusaba serivisi zijyanye n'ubukerarugendo ndetse n'abandi baje baje kwishimisha aho hantu bu...

Ariho imbuto zitandukanye ndetse akaba ariho n'ibinyobwa bitandukanye nka yahurute, ji zikozwe mu mbuto, hakaba hari n'ibindi bintu byo kurya bitandukanye nk'amapafayi, imineke ndetse n'ibindi.

Akabari gacuruza ibinyobwa bitandukanye ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, aho kuri kontwari hari udutebe tw'imisego mitonya, aho abantu bicara baje gufata ibyo binyobwarya. Hirya hakaba hari n'izindi ntebe abandi bicaraho.

Inzu isize amabara y'umuhondo aho iyo nzu itangirwamo serivisi zitandukanye, imbere y'iyo nzu hakaba hari ibiti, ndetse n'umuhanda aho imodoka inyura hatandukanye.

Ubusitani bwiza ndetse n'ubwogero buri imbere y'inzu isize amabara agasa n'ivu, aho ubwo bwogero bukoreshwa n'abakiriya baje bagana serivisi itangirwa aho ngaho.

Aho bacuruza ibinyobwa bitandukanye bisembuye n'ibidasembuye, aho hariho ineza ziteguye neza ziriho n'ibirahure witegura kwakira abantu batandukanye, aho baza kuhafatira ibinyobwa bitandukanye.

Inzu igeretse birenze rimwe, aho ifite inkingi zisize irangi ry'umweru ndetse inzu isize ibara risa n'icyatsi kibisi, imbere yaho hari ubusitani buteyemo ibiti bitandukanye ndetse harimo n'utumeza n'intebe aho umuntu ashobora kwicara ari kuruhuka.

Inzu isize amarange y'umweru, aho umuryango wayo hariho ibyapa byerekana yuko hakoreramo ikigo cy'imari cyitwa kojebanke, aho ushobora kuza ukabitsamo, ndetse ukanabikuza, ugakora n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Inzu isize ibara rijya gusa nivu, aho iyo nzu iri icyapa kiri mutwara zandikijeho amagambo y'umweru, aho iyo nzu bacuruza ibinyabiziga bitandukanye, aho ushobora bakigura ndetse bakakiguhera n'ubwishingizi.

Inzu y'igorofa aho imbere yayo hari abadamu batatu, babiri muri bo bafite ibikapu ndetse bose bambaye amapantaro, bahagaze ku muryango uriho icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse cyandikishijeho amagambo y'umweru, aho cyerekana ko hakorera ishami rya Purayimu.

Isize amabara y'umweru ndetse iriho ibyapa bitandukanye by'ubwishingizi bwita britamu, aho ubwo bwishingizi wabutanga ukaba ushobora kubukoresha ukivuza ndetse n'ibindi.

Inzu mberabyombi ubona ko irimo abantu benshi higanjemo abantu bakuze ndetse n'urubyiruko, ariko hakaba harimo n'abayobozi, ukaba ureba ko bose bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro kandi, buri wese imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi. Hakaba harimo n'umuntu uhagaze inyuma wambaye impuzankano y'umukara.

Abadamu batandukanye aho bafite imisatsi ya natirere, imbere yabo hicaye umuzungu wambaye marinete y'umukara, aho uwo umuzungu yambaye umupira w'umukara imbere hateretse ibyansi by'icyuma bitwarwamo amata.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Umugore wambaye ikote ry'umukara ndetse wambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'ubururu, aho ari kubara amafaranga, ndetse imbere ye hari umugabo wambaye ishati ari gusinya, umugore akaba akorera ikigo k'imari runaka.

Umukobwa uri guseka, aho yambaye isaha ndetse n'ikanzu iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, aho ahagaze imbere y'icyuma kibikurizwaho amafaranga, afite n'ikarita ari kugikozamo ngo abashe kubikuza.

Ubuso bw'umweru, aho handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu; aho hari umudamu wasetse, imbere ye hari mudasobwa; bikaba byerekana uburyo ushobora gufungura konte yawe muri banki yitwa ''Access''.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye aho hari imitaka ndetse n'ubundi buryo abantu bugamamo izuba ndetse n'imvura aho abantu baba baje kugura ndetse hari n'abaje gucuruza ibyo bicuruzwa byabo.

Isoko ryegeranye n'umuhanda, aho umuhanda ari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, aho harimo nk'amapikipiki atwara imizigo, ndetse hakaba hari n'abantu bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, nk'amasafuriya ndetse n'ibindi bintu byo kurya.

Curuzwa ibicuruzwa bitandukanye harimo nk'imitako ikoreshwa ahantu hatandukanye nk'amahoteli, inzu z'ubucuruzi ndetse n'ahantu ku giti cyaho, aho harimo abagurisha ndetse n'abaguzi baje kwigurira.

Isoko aho abantu batandukanye bari guhaha ibiribwa bitandukanye. Nk'imboga, imbuto, ibirayi, imyumbati ndetse n'ibindi. Aho hari abaguzi ndetse n'abagurisha baje guhurira mu isoko.

Isoko bahahiramo aho iryo soko ririmo imbuto zitandukanye nk'inanasi, ibinyomoro, imyembe amatunda ndetse hari n'umucuruzi aho ushobora kuza ukigurira ibyawe ukaba wabikoramo jus ndetse n'ibindi.

Isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye nk'inkweto bakoresha bogana, izo batemberana, ndetse n'ibikapu ushobora gutwaramo ibintu bitandukanye; ibyo ushobora gutwaramo ibintu uvuye guhaha n'ibyo ushobora kujyana ku ishuri.

Isoko risakaye n'amabati aho iryo soko ricururizamo ibiribwa bitandukanye, aho wasangamo nk'inyanya, intoryi, karoti, ibitunguru ndetse n'ibindi. Aho harimo abaje kugura ndetse n'abacuruzi.

Isoko ricuruza imyenda aho abantu bashobora kuza bakigurira imyenda yo kwambara mu birori bitandukanye, aho harimo ibitenge, harimo amapantaro, amashati ndetse n'ibindi, harimo abaguzi batandukanye abagabo ndetse n'abagore.

Isoko rihahirwamo ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane ibikomoka ku bihingwa nk'inyanya amashu imboga zitandukanye nk'ibitunguru aho harimo abacuruzi batandukanye n'abaguzi.

Inzu isize amabara y'umuhondo ikorerwamo ubucuruzi aho harimo abantu benshi batandukanye, abaguzi ndetse n'abagurisha aho harimo umugabo w'umuzungu wambaye imyenda y'abasiramu ndetse n'undi mudamu wambaye imyenda y'ababisiramu igera ku maguru.

Karemano aho abacuruzi benshi bateranye baje kugurisha ibicuruzwa byabo nk'inyanya, imboga, haroti, ibitunguru ndetse n'ibindi bakaba bahahuriye n'abaguzi.

Isoko aho abaguzi ndetse n'abagurisha bahurira, aho harimo ibicuruzwa bitandukanye. Nk'imbuto, imboga ndetse n'ibindi. Aho abadamu benshi ari bo barimo bari gucuruza ndetse hakaba haje n'abandi baguzi.

Inzu isize amarange y'umuhondo ndetse iriho ibirango by'ikigo cy'itumanaho cya MTN, aho hariho abantu baje gusaba serivise zitandukanye z'icyo kigo, nko kugura amayinite, kohereza, kubitsa ndetse n'ibindi.

Abagabo babiri bafatanye amaboko, aho bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo yandikishijeho amagambo y'umukara, iriho ibirango bya MTN. Inyuma yaho hari umutaka uriho ibirango bya MTN ndetse handikishijeho amagambo y'umukara. Inyuma hari n'abandi bantu babashagaye.

Abanyeshuri babiri bambaye impuzankano z'ibigo bigaho, aho bahetse ibikapu bari munsi y'umutaka wa MTN, ufite amabara y'umuhondo ndetse n'ibirango bya MTN, yandikishijeho amabara y'umukara ndetse n'umweru, hirya hari undi muntu wambaye ishati y'amaboko maremare, imbere hari inzu n'ibindi byapa.

Twegeranye aho dukoreramo abakozi b'ibigo by'itumanaho bitandukanye, kimwe akaba ari Airtel, akazu kamwe kakaba gasize amabara y'umutuku ndetse kaba kankandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru, n'aho akandi kaba ka gasize amabara y'umuhondo, kakaba kandikishijeho amabara y'umukara.

Umugabo wicaye ku ipikipiki wambaye agakoti gafite ibara ry'umukara, aho impande ye hari umudamu washutse, afite telefone ebyiri mu kiganza cye ari gurukanda, yambaye umupira w'umuhondo uriho ibirango bya MTN.

Akazu gasize amabara y'umukara aho hariho ibyapa by'umutuku ndetse byandikishijeho amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo; bikaba ari ibyapa biranga ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cya eyateri, aho hakoreramo umukozi utanga serivisi zacyo.

Ihema ry'abakozi ba Airtel aho rifite amabara y'umutuku ndetse hariho n'amagambo yandikishije umweru n'ibirango bya Airtel, aho harimo abantu batandukanye baje gusaba serivisi zerekeranye n'ibyo Airtel itanga.

Isoko ry'imyenda, aho bacuruza amapantaro y'abagabo, ndetse n'indi myenda itandukanye, aho umucuruzi ari kumanika icyapa barebera biyishyura amafaranga ku bantu bamaze gushima imyenda.

Abayobozi b'ikigo cy'itumanaho cyitwa emutiyeni, aho bambaye imipira y'umuhondo ndetse iriho n'ibirango by'icyo kigo. Imbere yabo hakaba hari mudasobwa aho bari gutanga serivisi ku bakiriya baje babagana.

Akazu ka MTN kari mu mabara y'umuhondo ndetse kandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, aho imbere yaho hari abagabo babiri umwe wambaye imyenda n'ingofero bimeze nk'ibya isilamu, n'undi wambaye umupira usanzwe.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse hakaba handitseho imibare ikoreshwa n'umucuruzi, aho ushobora kuyikoresha wishyura ndetse udakaswe.

Akapa kari mu mabara y'umuhondo, aho kandikishaho amabara yumukara kandikishijeho n'imibare, iyo mibare yerekana uburyo ushobora kwishyura udakaswe ariko ukoresheje uburyo bwa MTN.

Abakozi bakorera ikigo cy'itumanaho cya MTN nkuko bigaragazwa n'imipira bambaye, aho umukobwa yambaye umupira w'umuhondo urimo ibirango bya MTN, naho umuzungu wambaye marinete wambaye umupira w'umweru, ufite ikarita y'umuhondo inyuma ye hari amabara ari ku byapa bitandukanye ya MTN.

Abantu batatu bahagaze umwe yambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda undi yambaye umupira w'umweru yambaye amadarubindi y'umukara ndetse afite n'agakapu ku rutugu k'umutuku.

Inzu isize amabara y'icyatsi kibisi, aho hariho ibyapa bitandukanye byerekana ibyo bacuruza, ni imbuto, imboga ndetse n'ibindi, muri iyo nzu bikaba ari byo bintu bihagurirwa, hakaba harimo ndetse n'ibyo watahana.

Ipikipiki iriho agasanduku, gafite amabara y'umutuku ndetse kandiditseho ijambo yego, na nimero iriho imibare mirongo icyenda na rimwe mirongo icyenda na rimwe aho hari umugabo wambaye agapfukamunwa ufite ambalage iteretse hejuru y'ako gasanduku.

uru rufite ubuso bw'umweru aho hari ibikoresho bitandukanye ndetse n'amafaranga ushobora kugura aho ushobora kuyitimiza ikoranabuhanga ukishyura utahu wo ikagera utavuye aho uri

Urubuga ushobora kwiguraho ibintu bitandukanye, aho harimo imodoka ndetse harimo ibintu ushobora gusiga ku minwa igasa neza, aho ushobora kubitumiza wibereye aho uri ndetse bikakugeraho nta bindi biguzi utanze.

Inzu isize amabara y'umweru ndetse irimo udutara twinshi aho hasi harimo amakaro y'umweru ndetse n'umukara, aho iyo nzu ushobora kuyibona mu mujyi wa Kigali i Kanombe aho ushobora kuyigura amafaranga miliyoni ijana na mirongo ine.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isiza amarange y'umweru ndetse na hasa n'ivu, aho iyo nzu ushobora kuyikoreramo ibikorwa bitandukanye bikwinjiriza amafaranga nko kuyikodesha ndetse n'ibindi.

Ubwiherero bwa kizungu aho buteyemo amarangi y'umweru ndetse burimo na dushe aho umuntu ashobora kwisukura avuye mu bikorwa bitandukanye bya siporo ndetse n'imirimo itandukanye hakaba harimo n'indorerwamo ushobora kwireberamo.

Isize amabara y'umweru aho harimo igitanda ndetse kikaba gishaje kiriho n'umusego aho harimo n'amatara atandukanye, aho iyo nzu iri mu rwanda ushobora kuyikodesha ku bihumbi magana atanu by'amadolari mu rwanda.

Ni nzu isize amarangi y'umweru, aho irimo igitanda ndetse gishashe, aho iyo nzu ushobora kuyibona muri kigali ku madorari igihumbi magana atanu, ushobora kuba wayitunga nawe.

Inzu igeretse inshuro ebyiri, aho isize amarangi y'umweru ndetse n'aya oranje, aho iyo nzu imbere yaho hateye jaride zirimo indabo zitandukanye, ndetse iyo nzu ikaba ikodeshwa amadorari igihumbi na magana abiri.

Inzu igeretse inshuro nyinshi aho ifite ibirahure by'umukara ndetse isize amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, aho hariho icyapa cyanditseho agaciro, imbere yaho hari ibiti ndetse na jaride, aho iyo nzu itangirwamo serivise zitandukanye.

Inzu ifite igisenge kiri mu mubara y'umutuku aho ifite amadirishya asize ibara ry'umweru ndetse n'inkingi y'ibara ry'umweru aho iyo nzu ifite ibyumba bitatu ubwogero bubiri ushobora kuyibona kimironko aho ushobora kuyikodesha ku bihumbi magana abiri mirongo itanu.

Inzu isize amabara y'umweru aho irimo amatara y'umuhondo ndetse n'ay'umweru, aho harimo imitako itandukanye aho ushobora gushyira indabyo n'utundi tuntu twawe, harimo n'intebe z'amadive aho iyo nzu iri Kimironko ushobora kuyikodesha ibihumbi magana atatu.

Inzu isize amabara y'umweru, aho irimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu rwego rwa siporo n'udukapu dukubitwaho ingumi, utugare bakoresha biruka, aho hari n'udutanda baryamaho. Iyo nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane.

Yubakishije amatafari ahiye, aho isize ibara ry'umweru, aho imbere yaho hari ubusitani burimo indabyo z'umuhondo ndetse n'izi cyatsi kibisi, hakaba hari n'ibiti by'imyembe.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, aho ahagaze ahantu heza imbere y'inzu isize amabara y'umweru ndetse ifite inzugi, ifite ibirahure bitabonerana.

Inzu isize amabara y'umweru, aho irimo esikariye utuntu bazamukiraho dukozwe mu biti ndetse n'ibyuma, aho umuntu ashobora kwifashisha azamuka cyangwa amanuka hejuru cyangwa hasi, aho turi ku nyubako igurishwa muri Kigali.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho harimo nk'imikandara, udukapu tubikwamo ibintu ndetse n'inkweto, aho ushobora kuzambara, byose biba bikozwe mu ruhu, aho ushobora kuza kwihahira ndetse ugahahira n'abandi.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye ibiribwa ndetse n'ibitaribwa, aho bacuruza n'ibintu ushobora kwifashisha utwara ibintu nka amverope n'ibindi ndetse hari n'amavuta yo kwisiga ku bagore ndetse no ku bagabo.

Iduka ryitwa Simba supermarket, aho ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo nk'ibyo kurya, ibyo guteka ndetse n'ibyo kwambara, aho harimo abantu bari kwinjira imbere y'umuryango ndetse harimo n'abandi bari guhaha.

Isoko ririmo amakaro aho harimo abantu benshi batandukanye abagore ndetse n'abagabo baje kwihahira ibicuruzwa bitandukanye, aho abantu bose bahuze bari kwerekana ibyo bacuruza.

Inzu isize ibara ry'umuhondo aho hariho ibyapa bitandukanye byerekana ibintu bicururizwa aho ngaho, aho hari imiryango ifunguye ndetse irimo ibicuruzwa bitandukanye.

Iduka aho risizemo amabara y'umweru, ndetse ririmo ibicuruzwa bitandukanye, aho abantu baje kwihahira, harimo abadamu, ndetse n'abagabo baje guhaha, aho harimo n'ama televiziyo atandukanye.

Kuko bicuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye aho harimo abantu b'ibitsina bitandukanye, ibitsina gore ndetse n'igitsina gabo aho baje kwihahira ndetse hari n'abandi baje gucuruza ibicuruzwa birimo nk'iby'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byo gutera.

Inzu isize amarangi y'umweru, ikorerwamo n'isoko, aho bacuruza ibintu bitandukanye nk'ibintu byo kurya, ndetse n'ibyo kunywa, aho ushobora kuza ukagura nta kibazo, ndetse hakaba harimo n'abantu batandukanye, aho hari abacuruzi ndetse n'abaguzi.

Isoko aho abagabo batatu bari gucuruza ndetse n'umudamu umwe aho muri abo bantu bari gucuruza, harimo umuntu ufite ibara ry'uruhu rwera, imbere yabo hari umukiriya waje kwihahira kuri ibyo bicuruzwa bari gucuruza.

Iduka rikorera mu nzu isizeranye ry'umweru, aho iryo duka ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'ibikoreshwa mu gikoni ndetse n'ibindi, aho harimo abakozi baho bambaye imipira isa ubururu ndetse yandikishijeho amagambo y'umweru, harimo n'abakiriya baje guhaha.

Aho abantu bahaha ibintu bitandukanye, aho harimo umugore waje kwihahira ndetse harimo n'ababicuruza, hirya hari umugabo wambaye ishati ijya gusa n'ubururu bwerurutse, aho ahagaze yifashe ku munwa.

Inzu isize ibara risa n'ivu aho iriho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi kibisi cyandikishijeho amagambo y'umweru, aho hari umukobwa ugiye kwinjiramo ndetse harimo n'abandi bakiriya barikugura ibicuruzwa bitandukanye.

umusaza ndetse n'umukecuru aho bafatanye akaboko bari guseka bose bambaye imikenyero, umusaza yambaye n'ingofero aho hejuru yabo hari ikirangantego cy'ubwishingizi bw'ejo hazaza munsi hakaba hari ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Amakarita y'ubwisungane mu kwivuza mituwele aho ayo makarita atangwa n'ikigo cyitwa ara esessibi mu Rwanda gishinzwe ubwiteganyirize, ndetse n'ubuvuzi ku banyarwanda aho uyishobora kuyifashisha wivuza ku bitaro bitandukanye.

Ameza ariho igitambaro cy'umuhondo, aho hateretseho amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, aho hariho ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imibereho ndetse n,ubwishingizi bw'abantu, RSSB.

Aha haramamazwa imodoka iri mu bwoko bwa yundayi, kandi iyi modoka ikaba ifite ibara rya giri, aha hari uturango tw'urukiramende twanditsemo amagambo yo mu cyongereza ako hejuru karimo amagambo ari m'ibara ry'umukara usigirije, akandi karimo amagambo ari mu ibara ry'umweru ariko ari mu gakiramende k'ubururu, biragaragara ko iyi modoka iri kwamamazwa iri k'isoko.

Umudamu wambaye igitambaro cy'umutuku ndetse n'abandi bantu bazamuye ubwishingizi, aho buriho amafoto yabo ndetse na kashe za arasesibi, ikigo gitanga ubwishingizi bukoreshwa mu kwivuza.

Amahema yabambwe aho hejuru y'amahema hari ibyapa byandikishije amagambo y'umukara ndetse n'ubururu aho byanditse byamamaza uburyo bukoreshwa bizigamira kugira ngo ejo hatazagira ibibazo bibatunguye.

Umugabo aho mu ntoki ze afite ubwisungane mu kwivuza busanzwe buzwi mitiwere do sante, bukoreshwa umuntu yagize ibibazo, aho ajya kwa muganga akajya kwivuza atanze amafaranga make.

Inzu isize amabara asa n'icunga rihishije, aho ifite amadirishya asize irange rijya gusa n'ivu, imbere yaho hakaba hari abagore ndetse n'abagabo, aho bari kwifotoza bafite icyapa kiri mu mabara y'ubururu, cyandikishijeho amagambo y'umweru, yanditseho KTN Rwanda.

Isize amarangi y'umweru, aho hasi harimo amakaro ndetse ikaba ikoreramo isoko ricuruza ibintu bitandukanye nk'ibiryo, ibintu bikoreshwa bataka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye: amafarini, amabiswi, amaji ndetse n'ibindi bitandukanye, aho ushobora kuza ukabigura, ukajya kubitekera mu rugo cyangwa se ukagura ibyo urahita urya.

Icururizwamo ibicuruza bitandukanye, aho hacuruzwamo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hakaba harimo n'ibindi bintu bikoreshwa ku biryo nka mayonezi ndetse n'ibindi bintu ushobora kwifashisha, uri gutegura amafunguro yawe.

Imodoka ziri kugendera mu muhanda w'umukara aho zigeze zimutse amatara kubera ko bwije ndetse hakaba ari n'amatara yo ku mihanda amurika kugira ngo zigende zireba aho zigana ndetse n'abanyamaguru babashe kubona ahantu bari kujya.

Isoko aho ushobora guhaha ibicuruzwa bitandukanye nk'imbuto, imboga, inyama, ndetse n'ibindi. Aho ushobora kujyana ukabitekera mu rugo, ukagaburira umuryango bakishima ndetse nawe ukishima.

Isoko rigurirwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo gutekesha nk'amasahani, amasafuriya ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bikoreshwa mu gikoni, aho harimo abantu benshi batandukanye baje kwihahira ibyo bicuruzwa.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho harimo umugabo wambaye ikote ndetse uri kureba muri telefoni, aho ricuruza ibikocuruzwa bitandukanye, nk'amavuta, ibyoku kurya ndetse n'ibintu bishyirwa ku biryo kugira ngo biryohe.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye nk'amasabune, amavuta, nido ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abantu baje bahagana baje kugura ibyo bicuruzwa kugira ngo bajye kubikoresha mu rugo.

Isoko ushobora guhahamo ibicuruzwa bitandukanye aho harimo; imboga, imbuto ndetse n'ibindi; aho ushobora kubihaha ukajya kubiteka mu rugo ndetse haba harimo n'ibindi ushobora kurya udatetse.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho bafite ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, aho ushobora gusangamo nk'amaji, amazi, inzoga ndetse n'ibindi ndetse ukaba ushobora no gusangamo n'ibyo kurya.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rutangwa n'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, hariho aho umuntu ashyira amazina yiwe, amafaranga y'umusoro yishyuye, igihe yawishyuriye ndetse na nimero ye igaragaza kwishyura kwe.

Iduka ricuruza ibinyobwa bitandukanye ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, hakaba hari n'ibindi byo kurya, ushobora kurya utetse cyangwa udatetse, aho haje umukiriya guhaha bakaba banafite n'ibyuma bikonjesha ibyo binyobwa.